Ubuzima bugomba kwitabwaho ku isi yose muri rusange kuko ubuzima bw'umuntu butameze neza, nta kintu yabasha gukora cyamuteza imbere. Abantu bagomba gusuzumwa indwara ndetse bakanakingirwa n'ibyorezo biri kugenda biza. By'umwihariko abana bagomba gukingirwa nk'iseru, mugiga ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye zikunze kwibasira abana.

Abanyabuzima ni abantu baba bari mu nshe zitandukanye z'igihugu, ni icyiciro cyo kwa muganga gi kiba kegereye abaturage aho usanga muri buri kagari hari umunyabuzima, umunyabuzima afasha umuturage igihe arwaye bitunguranye ari mu rugo igihe ataragera kwa muganga, abanyabuzima baba bafite imiti y'ibanze yifashishwa mu kugabanya ubukana rwi bw'indwara kugira ngo umurwayi abashe kugera kwa muganga.

Mu kuvura abantu bakoresha ibikoresho bigiye bitandukanye. Hari imashini zikoreshwa mu gusuzuma indwara ndetse hari n'imashini zikoreshwa mu kuvura indwara. Mu mashini zikoreshwa mu gusuzuma indwara ni imashini zidufasha kugira ngo tumenye mu imbere mu mubiri ahantu umuntu yaba afite uburwayi. Hari n'imashini zifashishwa mu kubaga kugira ngo umuntu abe yavurwa indwara yagaragaye.

Umuntu ufite akanyamuneza, ikintu kimukubwira ni uko, umubona asetse mu maso ye ukabona harishimye, adafite iminkanyari. Uyu muntu aba afite akanyamuneza, ariko umuntu urakaye usanga atari guseka, ndetse mu maso he harimo iminkanyari.

Kwa muganga hagomba kuba hari isuku kuko ni isoko y'ubuzima bwiza kandi buzira umuze, umwanda utera indwara zigiye zitandukanye, harimo typhoid, malariya ndetse n'izindi, abaganga bagomba kudufasha mu kugira ngo kwa muganga hagaragare isuku.

Gutegura uruganiriro neza ni igihe ufata intebe ukazitera ku murongo, ugafata ibikoresho ukabishyira mu kabati ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye buri ikintu cyose umuntu akagishyira mu mwanya wacyo, aho utabona ikintu kijagaraye.

Imyitozo ngororamubiri yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo n'izo mu mutwe. Iyo umuntu afite umunaniro ukabije, akaba yakirukanka nka metero icumi, bimufasha kuruhuka mu mutwe. Kandi umubiri we usohohora n'imyanda igiye itandukanye.

Ibimera bidufatiye runini mu buzima bwacu kuko byifashishwa mu gukora imiti yatuvura indwara ndetse bikanifashishwa dutegura amafunguro yacu, harimo tungurusumu, umuntu ashabora kiyifashisha igihe arwaye mu nda, ikawa nayo itunganyijwe neza yaciye mu ruganda, umuntu ayifashisha ayinywa.

Imiti gakondo ikorwa hifashishijwe ibimera bigiye bitandukanye harimo umuravumba, umubirizi, umwenya, igikarubamba, tungurusumu ndetse n'ibindi bintu bisa icyatsi bigiye bitandukanye.

Imiti ya gakondo ni imiti ikorwa yifashishije ibimera bisanzwe bya kinyarwanda. harimo igikakarubamba, umwenya, indimu ndetse n'imiravumba. iyi miti ikwiye kwifashishwa bavura indwara zigiye zitandukanye harimo nka malariya, indwara z'uruhu ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.